Burya ibiryo bibamo intungamubiri iyo biriho n'ifi，biba bifatika kabisa， bituma umubiri umererwa neza，kandi ukaba uri kurya intungamubiri zuzuye. Biba byiza iyo ushyizeho ku ifunguro rya saa sita.

Abantu baturiye ibiyaga babasha kubaho neza kuko babasha kuba bakwihangira imishinga bagashaka uburyo bakororeramo amafi muri icyo kiyaga, bityo bikabasha guteza umuryango imbere ndetse n'igihugu muri rusange.

Burya ibiti muri rusange biryoshya ahantu. Kuba ari nka dizayini kandi bikaba binatanga umwuka ikiremwamuntu gihumeka mwiza, bikagaragaza n'ahandi hantu aho biri hose akamaro keza.

Iki gihe kubera ari icyo ihinga ry'ibirayi ni ukubanza umuntu agafata umurima neza, akawutunganya, akawuhinga, akawukorera neza kugira ngo imyaka ushyiramo iyo ariyo yose ibashe gufatwa neza, kugira ngo igihe cy'imvura kizasange wamaze gutera.